Ni umukobwa wicaye ku ivarisi, bigaragara ko arimo aramamariza kampani ishinzwe gutanga ubwishingizi, bita "tem mbe rana".

Ni icyapa gishishikariza abantu kugura ubwishingizi, hariho umuganga wambaye imyenda yose y'akazi arimo arerekera umurwayi uburwayi afite amwereka ifoto, umurwayi na we aryamye ku gitanda.

Ni umuryango ugizwe na papa n'umumama n'abana babiri hagati, bari kwamamariza iyi kampani. Hejuru hariho amagambo avuga ko ari liyifu inshuwarensi. kubwo iyi kampani ishinwe gutanga ubwishingizi ku bijyanye n'ubuzima. Hasi hariho umugabo wifashe neza, ku ruhande hari serivisi batanga n'ibiciro, hasi hariho na nimero za telefone.

Ni butike icuruza ubwoko bw'amakoti butandukanye harimo ubururu, umukara, karokaro, kake, move nandi mabara atandukanye.

Ni butike icuruza inkweto, inkweto zikaba zirambitse hasi, bigaragare ko zirambitse nko ku gatara, inkweto z'abagabo za congo, iz'abagore za taro n'izifunze zisanzwe z'abagabo.

Ni ikinyabiziga k'imodoka ishinzwe gutwara abantu yo mu bwoko bwa lava iyi modoka ikaba ifite plaque ya kigali karizi maketi.

Biragaragara ko ari umuntu w'umugabo uhawe impano y'ikinyabiziga cy'igikamyo gishinzwe gutwara imizigo, akaba ayihawe n'akagera motozi.

Biragaragara ko ari umuntu uri kubara amafaranga y'inote y'amanyakenya na madorari.

Iki ni igiceri cyakoreshwaga kera mu Rwanda, iki giceri kikaba cyarakozwe mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na karindwi kikaba cyarakorewe muri banki nasiyonari y'u Rwanda.

Ni umugabo bigaragara ko yicaye ahantu ho muri farex biro arimo aragenda abara amafaranga, ayapfunyika n'agafimbo, we buri inote zigiye zigira udupfunyika, zigiye zipfunyitse mu maseri.

Biragaragara ko ari umugabo ufite inote z'abanyakenya ,usa nkaho arimo arazibara mu biganza bye.

Ni ishami ry'inyange, hariyo botike, hejuru hari icyapa, imiryango irafunguye, ariko burije.

Aya ni amata y'ikivuguto ari mu gikombe cy'itasi giteretse ku meza bigaragara ko aya mata ari muri katine.

Biragaragara ko ari abantu bicaye bari gufata amata muri kantine cyangwa se muri botike y'inyange.

Ni inote zo muri Tanzaniya harimo igihumbi, bibiri, bitanu n'inote ibihumbi icumi aya mafaranga akaba yarakorewe muri banki, banki ya Tanzaniya, harimo n'ubwoko bw'ibiceri bwo muri banki ya Tanzaniya.

Izi ni inoti zo mu bihugu bitandukanye zifashishwa mu ivunjishwa cyangwa se muri biro ishinzwe kuvunjisha.

Biragaragara ko ari umugabo ufite inoti z'ubwoko butandukanye, wo mu bihugu, bigaragara ko arimo arabara amafaranga.

Ni inote z'amadorali hano harimo amadorari ijana muri izi note hariho n'ibiceri, harimo n'inote za magana atanu z'amayero n'inote ya mirongo itanu y'amayero.

Iyi ni biro ishinzwe ivunjisha ry'amafaranga yo mu bihugu bitandukanye cyangwa se ifasha abaturage bifuza koheza amafaranga mu bihugu byo hanze cyangwa se ibigo byo byo hanze byifuza kohereza amafaranga mu Rwanda akaba yahagerera ku gihe.

Mu karere ka Muhanga habereyemo irushanwa ry'amagare riba buri mwaka rikabera mu gihugu cy'u Rwanda, babahagaritse ku mpande kugira ngo hataba impanuka ndetse n'abari mu irushanwa babashe gusiganwa nta nkomyi.

Ibi ni ibikoresho bikenerwa mu nzu, ibi byifashishwa muri saro, muri make ni nka saro ikenerwa y'intebe n' ameza.

Ibi ni ibikoresho byifashishwa muri salo nk'intebe, ameza. Byifashishwa muri salo kugirango umuntu abe yabyifashisha mu kwakira abantu kugirango babone aho bicara.

Ni ameza abaje mu bwoko bw'igiti cya muvura, aya meza yifashishwa mu guterekwaho amafunguro.

Aka ni akabati gategurwa muri salo, aho ushobora kikifashisha kugirango ushyiremo televiziyo yawe, ndetse aka kabati munsi ushobora kubikamo ibikoresho iruhande bashyiramo imitako.

Biragaragara ko ari hoteli mu rurimi rw'Ikinyarwanda ni amacumbi aha ngaha ni aho bafatira amafunguro muri aya macumbi.

Aya ni amacumbi muri aya macumbi harimo ikikoni bifashisha igihe bagiye gutegura amafunguro, muri iki gikoni harimo utubati hakabamo za mikoropode hakabamo n'utundi dukoresho twifashishwa mu gikoni.

Iyi ni inzu y'amacumbi yifashishwa aho umuntu iyo akeneye kuruhuka ashobora kuruhukira, iyi rero ni pisine cyangwa se ubwogero bogeramo igihe wifuza koga, biragaragara ko hari n'ahantu bakorera ibiganiro kuri iri cumbi.

Iyi ni hoteli mu buryo bw'ikinyarwanda ni amacumbi aha ni ahantu bicara bari kuganirira cyangwa se bafatira ifunguro.

Aha iyi ni inzu y'amacumbibiri z'amacumbi harimo pisinine ni pisine ntiwongeramo gusa hariho icyapa kigaragaza amabwiriza y'ibiryo iyi pisine ishobora kuba yakoreshwa cyangwa se aho bogera muri make.

Iyi ni kampani ishinzwe gutanga ubwishingizi hagiye harimo abakozi batandukanye, buri mukozi yari ku meza ye afite mudasobwa bigaragara ko bahugiye mu kazi bose, imbere yabo hicaye abantu bari kugana bicaye bategereje guhabwa serivisi.

Ni isoko ririmo imitako Nyarwanda. Harimo, uduseke, ibinigi, amaherena ndetse n'indi mitako ishushanyije Nyarwanda, bamanika mu nzu.

Biragaragara ko ari isoko ricuruza imitako nyarwanda ndetse n'imyenda ya medi ini Rwanda cyangwa se imyenda ikozwe mubitenge yo mu Rwanda.

Ni isoko, iri soko ririmo igisheke kiri ku gikuta, hirya y'iki gisheke hari intebe imbere, hari abakiriya barimo baragenda bahaha, bafite udufuka twa nzaruhahira.

Mu isoko ricururizwamo ubwoko bw'imboga zitandukanye harimo inyanya, ibitunguru, imiteja n'ibishyimbo. Harimo n'abacuruzi batandukanye bari gucuruza n'abakiriya baje guhaha.

Ni isoko ricururizwamo imyenda itandukanye n'imitako itandukanye, hicayemo abagore babiri ucuruje imyenda n'ucuruza imitako.

Ni isoko ririmo abacuruzi n'abagura, abacuruzi barimo barahereza abakiliya ibyo bamajije kugura.

Ni mudasonwa ebyiri zanditsemo imwe solasi izi nawu sanilamu solasi ko yabaye sanilamu, indi mudasobwa yanditsemo opereshoni ari byo bikorwa ku meza hariho kode zifashishwa mu kwishyuraho serivise zatanzwe n'iyi kampani y'ubwishingizi ya sanilamu.

Abakozi ba sosiyete y'itumanaho ya MTN bari gukoresha mudasobwa. Imbere yabo hahagaze abafatabuguzi ba MTN baje kwaka serivisi zitandukanye zitangwa n'iyi sosiyete.

Ni umugabo uri gufotora icyapa cya emutiyene kiriho kode zo kwishyuriraho, aho agiye kwakira serivise.

Ni uburyo bwifashishwa mu guhaha hifashishijwe ikoranabuhanga. Hagati muri kaburimbo, harimo abamotari batwaye abagenzi. Abo bamotari bigaragara ko batanga serivisi zijyanye no guhaha hifashishijwe ikoranabuhanga, bakora delivery (gutanga ibicuruzwa).

Biragaragara ko ari uburyo wifashisha mu kugura ukoresheje ikoranabuhanga, utumiza ibyo wifuza byose bakabikizanira.

Iki ni ikinyabiziga cya moto cyifashishwa mu gutumizwa, gutumizaho ifunguro yifashishije ikoranabuhanga bitewe n'ifunguro wifuza gufungura. Iyi moto rero yifashishwa mu kukugezaho iryo funguro watumije ku ikoranabuhanga.

Ubu ni uburyo wifashisha mu guhaha imyenda bifashishije ikoranabuhanga, mu maduka atandukanye. Hano iyo ukoreshe ikoranabuhanga barayikuzanira ntago wirirwa ujya kuyizanira.

Ubu ni uburyo bifashishwa mu gukoresha ikoranabuhanga uhahiraho n'inkweto cyangwa se amashuka cyangwa se n'imyambaro.

Biragaragara ko ari umunyamahanga uhagurutse ahagaze, asa nkaho ari kuri resebusiyo. Agiye kwakira umukiriya uje amugana w'umunyarwanda kugira ngo amuhe serivisi. Uyu mukiriya arahagaze bose barahagaze.

Ni inzu irimo ibyumba by'amacumbi iherereye i Gikondo iri kwamamazwa hariho n'ibiciro byayo.

Iri ni itaje irimo amaduka acuruza ibicuruzwa bitandukanyetage. Iyi taje igira amafuro cyangwa se igira amadare.

Ni ishopu muri iyi shopu harimo umukiriya uri kugenda ufite akabaketi bigaragara ko ari kugenda ahaha ibicuruzwa bitandukanye biherereye cyangwa se biri muri ino shopu bacuruza.

Ni umwana ufite igipupe, iruhande rwe haranditse amagambo, zigamira amasaziro yawe akiri muto, bigaragara ko arimo aramamariza ejo heza, iburyo bwe hari ikirangantego cya RSSB gishinzwe ubuzima.

Ni ikarita ya mituelle de sante, yifashishwa mu kwivuza itangwa n'ikigo cya RSSB gishinzwe ibijyanye n'ubuzima.

Ni icyapa cya ara esesibi gishinzwe ubuzima bigaragara ko ari nko kwamamaza, aho bari kutubwira ko kureba imisanzu yawe ara esesibi ushobora gukoresha ubu buryo.

Biragaragara ko ari abayobozi babiri umugore n'umugabo bafite indangururamajwi ,bayoboye inama umuyobozi umwe w'umugabo ari gutanga ikiganiro naho umugore we ari muri mashini biragaragara ko basa nkaho bayoboye inama ya arasesibi ( RSSB).

Ni supameketi icururizwamo ubwoko bw'amabisukwi butandukanye, harimo n'amacipusi cyangwa se amafiriti n'ifu z'igikoma.

Ni supamaketi irimo ibinyobwa bitandukanye banywa harimo amafanta y'ubwoko butandukanye n'amaji y'ubwoko butandukanye.

Biragaragara ko ari supamaketi irimo ibiribwa bitandukanye n'ibinyobwa, ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu masuku.